Ni icyapa kirimo imodoka igenda y'umweru, harimo n'indi isizwe ibara ry'ubururu, umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari n'urukuta rwubakishije amabuye na jaride iri hino y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyegare yambuka muri zebura korosingi n'imodoka iparitse ku ruhande, na bokisi y'amashanyarazi ibikwamo amatsinga.